Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, kiriho ifoto y'umugore wambaye ishati y'umutuku ndetse cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, aho cyakanguriraga abaturage kuyoboka ubwishingizi mu buzima nk'imwe muri gahunda zabafasha kuzamura imibereho myiza ndetse bakagira n'umutekano w'ubuzima bwabo.

Icyapa cyatanzwe n'icyigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda "Britam" mu rwego rwo kumenyekanisha serivisi zabo ku bakiriya ndetse n'Abanyarwanda muri rusange, aho cyari cyazanye ubwishingizi ku bantu bagenda mu ndege, iyi ikaba ari imwe muri serivisi nshya zari zirimo zimenyekanishwa muri icyi cyigo.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu gishushanyijeho abantu batatu bitwikiriye umutaka mu ibara ry'icyatsi cyanditseho amagambo ibara ry'umweru, cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda "RSSB". Aho cyashishikarizaga abaturage kuyoboka ubwisungane mu kwivuza nk'imwe muri politiki za Leta igamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage.

Icyapa cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda cya Sonarwa aho cyamenyeshaga abakiriya bacyo ndetse n'abafatabuguzi ko bitakiri ngombwa ko bajya aho ikigo gikorera bagiye kumenyekanisha impanuka bagize ahubwo ko babikora bifashishije telefone zabo ngendanwa.

Apurikasiyo y'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya ekwiti. Yashyizweho mu rwego rwo korohereza abakiriya b'iki kigo kubona zimwe na zimwe muri serivise zitangwa n'iki kigo bidasabye ko bajya aho gikorera, ahubwo bakazisaba ndetse bakazihabwa bifashishije terefone zabo cyangwa se mudasobwa.

Urupapuro runini rwatanzwe n'ikigo gitanga serivise z'imari mu Rwanda, aho rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara. Rukaba rwarahawe umukiriya w'iki kigo ubwo rwagaragazaga ibikorwa byakorewe kuri konti ye mu bihe bitandukanye, by'umwihariko bikaba bigaragaza ibikorwa byakozwe ku itariki makumyabiri n'eshatu kugeza kuri mirongo itatu z'ukwa cumi n'abiri, bibiri na gatandatu.

Ameza yakirwaho abantu mu nyubako itanga serivisi z'ubucuruzi zitandukanye cyane cyane hibandwa ku myambaro, hagaragara umupapa ufite ibara ry'uruhu rwera, akaba arimo kwereka umukozi ukora muri iki kigo imyenda amubaza igiciro cyayo ndetse n'icyo bisaba kugira ngo ayitware.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, hagaragara ifoto y'umumama urimo kugura imyenda, aho arimo kugenda areba imyenda umwe kuri umwe, akaba afashe umupira uri ku gakoresho kabugenewe, arimo abaza igiciro cyawo umucuruzi.

Inyubako irimo imitako itandukanye, ifite inkuta zifite ibara ry'umukara, hicayemo abantu babiri ku meza barimo kuganira, bigaragara ko bafata amafunguro. Iyi akaba ari imwe muri serivisi zitangwa n'ibigo bitanga serivisi z'amahoteri ndetse n'amaresitora hirya no hino mu gihugu.

Isoko rya kijyambere ahacuruzwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye hagaragara imyambaro cyane cyane y'abadamu nk'amakanzu, amajipo n'indi. Iyi myambaro ikaba icuruzwa iri mu tubati twabugenewe, aho imanitse neza bityo abakiriya bayishaka baraza bakayibona bitabagoye mu nzu nziza kandi bagahabwa na serivisi ku giciro cyiza.

Isoko rikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi cyane cyane imyambaro hagaragara hacururizwa imyambaro y'abagabo yiganjemo amapantaro n'amashati hagaragara amashati y'ibara ry'umukara ni ry'ubururu ndetse n'adatandukanye bikorohereza abashaka imyambaro kuba bayibona hafi yabo bitabagoye kandi ku giciro cyiza.

Ubucuruzi ni rumwe mu rwego ruzamura ubukungu bw'Igihugu binyuze mu misoro ndetse n'ababukora bakabona inyungu ibateza imbere. Aha ni ahacururizwa imyenda itandukanye cyane cyane hibandwa ku y'abagabo nk'amapantaro, amakabutura, n'ibindi. Aho hagaragara amapantaro afite ibara ry'ubururu, iry'umukara, ndetse n'andi menshi cyane.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe basigatiye umwana, bahagaze imbere y'imodoka y'umukara yo mu bwoko bwa kiya. Bafashe icyapa mu ntoki gifite ishusho y'urufunguzo cyanditseho Akagera motozi. Iyi akaba ari sosiyete icuruza ibinyabiziga ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kubisana mu gihe byangiritse.

Imodoka nyinshi cyane ziparitse hamwe zifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, iruhande rwazo hari abagabo babiri barimo kuganira umwe atungira undi agatoki, bigaragara ko ari ahagenewe guparika ibinyabiziga bimaze gutunganywa na sosiyete ikora ibinyabiziga bitegereje kujya ku isoko.

Abagabo batatu bahagaze bafashe icyapa gifite ishusho y'urufunguzo cyanditseho Akagira Motozi. Inyuma yabo kandi hari icyapa kinini cyanditseho ijambo Akagera Motozi ku nyubako. Bigaragaza ko aha ari ahakorera iyi kompanyi y'Akagera, itanga serivisi z'ubucuruzi bw'ibinyabiziga, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kubisana, igihe byangiritse.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka nziza y'umukara yo mu bwoko bwa kiya bafashe icyapa gifite ishusho y'urufunguzo cyanditseho ijambo Akagera motozi, iyi akaba ari sosiyete itanga serivisi zo gucuruza ibinyabiziga ndetse no gucuruza ibikoresho byifashishwa mu kubisana igihe byangiritse.

Imodoka yo mu bwoko bwa kiya forute bibiri na kabiri, ifite ibara ry'umukara, iri kugurishwa na sosiyete itanga serivisi zo gucuruza ibinyabiziga mu Rwanda, ya Kigali karizi maketi, aho iyi modoka irikugurishwa miliyoni icumi gusa z'amafaranga y'u Rwanda.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka zo mu bwoko bwa kiya bafite icyapa mu ntoki gifite ishusho y'urufunguzo cyanditseho Akagera motos. Iki akaba ari ikigo gitanga serivisi z'ubucuruzi bw'ibinyabiziga ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kubisana igihe byangiritse.

Inyubako itangirwamo serivisi z'imari, ahagaragara umukozi w'ikigo cy'imari, ariko kwakira umukiriya uzanye ubwizigame bwe muri iki kigo, iyi akaba ari imwe muri serivisi zitangwa n'ibi bigo by'imari, kwakira ubwizigame bw'abanyamuryango, gutanga inguzanyo, kohereza amafaranga, kuvunjisha n'ibindi.

Umumama wambaye amataratara ndetse n'ikanzu y'umutuku, afashe ku mashini ziri mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iruhande rwe kandi hari izindi mashini zifashishwa muri aka kazi, harimo izisohora impapuro n'izindi, imbere ye hari ameza afite ibara ry'umukara ndetse inkuta zaho ari zisize ibara ry'umweru.

Inoti y'amafaranga magana atanu yakoreshwaga mu gihe cyo hambere, aho yagaragaragaho abana batatu bari gusoma igitabo, harimo babiri b'abahungu n'umwe w'umukobwa, ku rundi ruhande kandi hagaragaraga ingagi ziri mu ishyamba, ibi byose bikagaragaza ibyiza nyaburanga biri mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bigaragara kuri iyi noti.

Abagore babiri bahagararanye, umwe yambaye umupira w'umukara, undi yambaye ishati y'umweru, ateruye igikarito mu ntoki kirimo utubogisi turimo ibicuruzwa bimwe bicuruzwa mu nyubako yabo. Ibi bikaba biri mu rwego rwo kwamamaza bereka abakiriya babo ibicuruzwa bishyashya babazanye bityo ngo baze kubireba ndetse banabihaye ku giciro cyiza.

Ibinyobwa bidasembuye bizwi nk'amata, biri mutujerekani twabugenewe, bifunze neza ndetse biteretse mu cyuma cyagenewe gukonjesha, ibi bikaba bigamije kongera uburambe bwabyo ndetse no gutuma biryohera abakiriya ndetse n'ababifata nk'imwe muri serivisi zitangwa mu nyubako zikorerwamo serivisi z'ubucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bitandukanye.

Ibikoresho bikoze mu byuma bizwi nk'ibicuba byifashishwa mu gukusanya umusaruro bikomoka ku bworozi, ariho amata akurwa hirya no hino mu nce z'igihugu ashyirwa ku ikusanyirizo kugira ngo atunganywe anongererwe agaciro, ibi bigafasha aborozi mu kubona amafaranga ndetse n'inyungu bituruka ku bworozi bwabo.

Ameza akoze mu biti arambitseho igikoresho cyabugenewe kirimo udupapuro tw'isuku, utu tukaba twifashishwa hirya no hino mu nzu zicuruza ibyo kurya biribwa ako kanya nk'amakantine, amarimatasiyo n'ahandi, zikoreshwa n'abakiriya bihanagura mu gihe bamaze gufata ibiribwa muri ayo maguriro.

Inyubako icuruzwamo umusaruro w’ibikomoka ku bworozi uzwi nk’amata aho aborozi bagemura umusaruro wabo ku makusanyirizo hirya no hino mu gihugu hanyuma uyu musaruro wabo ugatunganywa ubundi ugashyirwa mu tujerekani hagendewe ku ngano ikenewe ku isoko cyangwa se ugatuganywamo ibindi binyobwa bikomoka ku mata nka yawurute foromaje n'ibindi.

Icyapa kigaragaza uburyo butandukanye bwifashishwa mu kwishyura ibicuruzwa cyangwa serivise hirya no hino mu gihugu, aho hagaragara uburyo bwo kwishyura ukoresheje sheke y'ikigo cy'imari, ukoresheje ikoranabuhanga, cyangwa se gukoresha ikarita ya Banki, ndetse n'ibyuma byabugenewe, yewe no kwishyura wifashisha amafaranga afatika mu ntoki.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu, umuhondo, ndetse n'umweru kigaragaza imbuga zitandukanye zo kuri murandasi zifashishwa mu kwishyura ibicuruzwa, ndetse na serivisi zitandukanye. Hari urubuga rwa peyipo, mobayiromani, peyiti, ndetse n'izindi. Zose zihuriye kuba zikorera kuri murandasi.

Urubuga rw'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya Spin, aho gitanga serivisi zitandukanye z'imari harimo kwakira ubwizigame bw'abanyamuryango, gutanga inguzanyo z'igihe gito ndetse n'igihe kirekire, kwishyura ibicuruzwa, kwishyura televiziyo ndetse n'ibindi bitandukanye hifashijwe application cyangwa website y'uru rubuga ikoreshwa muri telefoni ngendanwa.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda reveni Otoriti, igaragaza ko Henry Rutazingwa, yishyuye umusoro ku mutungo utimukanwa ungana n'ibihumbi mirongo itatu n'umunani by'amafaranga y'u Rwanda.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo cy'Igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority ihawe ikigo cya Ameki color ltd, igaragaza ko iki kigo cyamaze kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe.

Urupapuro rwatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Revenu Otoriti, gihawe ikigo cya Tarafiki Ekwipumenti Rwanda Limitedi, kigaragaza ko iki kigo cyamaze gusora umusoro w'amahoro y'isuku angana n'ibihumbi bitandatu, bityo ko nta mwenda kibereyemo iki kigo.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda “Rwanda Revenue Authority” igaragaza ko Kumurora Rose yamaze kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa yabazwaga ku itariki mirongo itatu n’imwe z'ukwa cumi n'abiri ibihumbi bibiri na cumi n’agatanu.

Ibiganza bifite imishandiko myinshi y'amafaranga afunze mu mifungo, ahambirijwe udukoresho twabugenewe, izi noti zifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, zanditseho ibihumbi bibiri bigaragaza ko ari izikoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde.

Inote z'amafaranga zifite amabara atandukanye akoreshwa mu bihugu by'amahanga, zigaragara zizwi nk'amadevize. Aya akaba yinjira mu gihugu binyuze mu bikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, ahanini biba byohereje ibicuruzwa hanze ndetse n'ibikorwa by'ubukerarugendo, aho ba mukerarugendo baba bazanye aya madevize. Ibi bikagaragaza iterambere ndetse no kwiyongera kw'umusarurombumbe w'igihugu.

Indangabiciro igaragaza uko agaciro k'ifaranga rihagaze ku isoko mpuzamahanga. Iri rikaba ryifashishwa n'ibigo bitanga serivise z'ivunjisha hirya no hino mu gihugu mu kugena agaciro k'ifaranga ku isoko mpuzamahanga hagendewe kuri iyi ndangabiciro iba yaratanzwe.

Icyapa kigaragaza uko agaciro k'ifaranga ry'igihugu runaka gahagaze ku isoko mvunjafaranga. Ibi bikayobora abajya gushaka izo serivisi hirya no hino mu gihugu kumenya niba koko agaciro k'amafaranga yaho kubabahirijwe hagendewe ku ndangabiciro iba iri ahatangirwa izo serivisi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ufite amafaranga yo mu bwoko butandukanye mu ntoki ze ndetse afite na terefone, bigaragare ko ari amafaranga akoreshwa mu bihugu by'amahanga azwi nk'amadevize, aya akaba yinjira mu gihugu binyuze ku bikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ubukerarugendo biba byagiye bikorwa.

Abantu babiri barimo kugurana amafaranga akoreshwa mu bihugu byabo bitewe n'ayo buri wese akeneye ,ikaba ari muri serivisi zitangirwa hirya no hino mu gihugu ku biro bitanga serivisi z'ivunjisha hagendewe ku biciro mpuzamahanga iyo byashyizweho mu kugenzura iri isoko ndetse himakazwa ko harindwa ubujura bwa hato na hato muri ubu bucuruzi bw'amafaranga.

Ibiganza by'umuntu ufashe inoti z'amafaranga y'ubwoko butandukanye bigaraga ko ari amadevize, aya akaba yinjira mu gihugu binyuze mu bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi biba byoherejwe hanze ndetse n'igikorwa cy'ubukerarugendo kiba kinjije ba mukerarugendo mu gihugu bakazana aya madevize.

Inyubako itangirwamo serivisi zitandukanye cyane cyane zivunjisha ndetse no kohereza amafaranga. Aho umuntu ukeneye kohereza amafaranga mu bigo bitandukanye aza akayohererezwa kuri iki kigo ndetse n'ukeneye kuvunjisha, yaba ukeneye amadevize cyangwa uyafite, akaba yakoroherezwa kubona amafaranga akoreshwa mu Gihugu.

Inyubako itangirwamo serivisi z'imari ahagaragara umugabo uri guhabwa amafaranga mu ntoki n'umukozi ukora muri iki kigo, bigaragaze ko yaje kubikuza amafaranga kuri konti ye nk'imwe muri serivisi itangwa n'ibi bigo. Hatangwa kandi n'izindi serivisi zitandukanye harimo nko kwakira ubwizigame kubashaka kwizigama gutanga inguzanyo ndetse n'ibindi.

Inyubako nini cyane irimo ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa, imashini isohora impapuro, imashini ibara amafaranga n'izindi ibi bikaba biri mu nyubako itangirwamo serivisi z'ivunjisha kw’isoko vunja faranga aho umuntu ukeneye amafaranga akoreshwa mu bihugu bitandukanye aza akaba yayahabwa kugira ngo amufashe kubona serivisi zitandukanye hirya no hino mu gihugu.

Inyubako ikoreramo sosiyete itanga serivisi z'ivunjisha ku isoko mvunja faranga aho umuntu ukeneye amafaranga yo mu bwoko butandukanye yaza gusaba iyo serivisi aha akaba yayihabwa hagaragara ibyapa birimo ibara ry'umutuku bigaragaza ko akorera ikigo cya VIRA forex

Mu kigo cy'imari ahagaragara umukozi wa banki ndetse n'umukiliriya barimo guhererekanya amafaranga, iyi ikaba imwe muri serivisi zitangwa hirya no hino mu bigo by'imari aho umukiriya ashobora gutanga ubwizigame bwe hanyuma bugashyirwa kuri konti yakaba ari imwe muri serivisi itangwa hirya no hino mu bigo by'imari.

Inyubako ifite amarangi y'icyatsi ndetse yanditseho amagambo mu ibara ry'umweru igaragaza ko imbere hatangirwa serivisi zo kohereza amafaranga ikaba iherereye mu mujyi wa kigali hakaba hazwi nk'iremera aho umuntu ukeneye kohereza amafaranga mu bihugu bitandukanye ashobora kuza gusaba iyo serivisi ndetse nukeneye kuvunjisha amafaranga yo mu bihugu by'abaturanyi ndetse n'amadevize akaba yayibona muri iyi nyubako.

Inyubako yo guturamo ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, irimo n'ibikoresho byose by'ibanze nkenerwa mu buzima bwa buri munsi, harimo intebe, ameza, utubati, ibi bikazamura agaciro k'inyubako cyane ko biba byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Ibikoresho bitandukanye bikoze mu mbaho, bikorwa n'abanyabugeni bakora umwuga w'ububaji, aho bafata imbaho bakazikoramo ibikoresho bitandukanye dukenera mu buzima bwa buri munsi nk'intebe, ameza, utubati, utu etajeri n'ibindi bitandukanye.

Inyubako ikorerwamo n'abanyabugeni bakora ibikorwa byo gutunganya imbaho bazibyazamo ibikoresho bitandukanye dukenera mu buzima bwa buri munsi nk’ameza ,intebe ,ibitanda ,utubati n'ibindi. Ibi bikawugira uruhare mu kongera umusaruro ku bikomoka ku biti ndetse bikabagirira akamaro muri rusange kuko babonamo ubushobozi bubafasha kubaho ndetse no gutunga imiryango yabo.

Ameza maremare afite ibara ry'ikijuju ateretseho ibirahuri bibiri birimo imiheha ndetse akikijwe n'udutebe tubiri natwo dufite ibara ry’ikijuju hejuru cyane kuri etaje witegeye umujyi wa Kigali aha hakaba ari muri hoteli hatangwa serivisi zitandukanye aya akaba ari ameza aganirwaho n'abakiriya ndetse n'abandi bifuza kuganira bareba ubwiza bw'umujyi wa Kigali.

Inyubako nini cyane igizwe n'amagorofa atatu, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi. Iyi nyubako ikaba iherereye ku muhanda nyabagendwa wa kaburimbo, aho uyu umuhanda ukikijwe n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro. Ibi bigafasha abantu bajya gushaka sevise zitandukanye muri iyi nyubako kuhagera ndetse no kubona serivise z'ingendo ku buryo buboroheye.

Urupapuro rugaragara hirya no hino mu maresitora ndetse n'amahoteli kimwe n'izindi nyubako zitangirwamo serivisi z'ubucuruzi bw'ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye. Aho baba bagaragariza abakiriya bimwe na bimwe mu bicuruzwa bafite ya ibiribwa ndetse n'ibinyobwa ndetse n'agaciro ka byo, kugira ngo abakiriya bahitemo ibyo bakeneye.

Inyubako itangirwamo serivisi zitandukanye, yaba iz'ibigo by'imari bitandukanye, serivisi z'ikoranabuhanga, serivisi z'ibigo bya leta n'izindi zitandukanye, ibi akaba ari mu rwego rwo korohereza abaturage baturiye aka gace, kubona serivisi bidasabye ko bakora urugendo bajya aho ibigo bikorera, ahubwo bakaziherebwa ku ba ejenti babegereye hirya no hino mu gihugu.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi y'umweru ndetse irimo n'intebe zifite ibara ry'ubururu n'ameza y'umweru, iyi inyubako ikaba ikoreramo ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya Radiant aho gitanga serivisi z'ubwishingizi ku mutungo utimukanwa, ubwishingizi ku buzima, ubwishingizi ku mazu ndetse n'ibindi.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo ugenderamo n'ibinyabiziga mu byerekezo byombi, iruhande rw'umuhanda haparitse ibinyabiziga bitandukanye, ndetse hari n'amatara n'indi mirongo bimurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, bigafasha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bakoresha umuhanda, kwirinda impanuka za hato na hato.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, gifite umuzenguruko w'icyatsi kiriho ifoto ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, cyatanzwe n'ikigo gitanga serivise z'imari mu Rwanda cya banki y'abaturage, ubwo cyashimiraga nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku nsinzi y'amatora yari yagize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Agasoko gacururizwamo ibiribwa bitandukanye, cyane cyane hibandwa ku bikomoka ku buhinzi buboneka no mu Rwanda, harimo karoti, imboga, pavuro, tungurusumu, inyanya, ibijumba n'ibitoki ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inyubako ndende cyane ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye haba iby'ubucuruzi bw'imyambaro, ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho by'isuku ndetse n'ibindi bitandukanye, ahagaragara urujya n'uruza rw'abantu, by'umwihariko ahagaragara imifuka irimo indagara, amafu ndetse n'ibindi byifashishwa mu mafunguro ya buri munsi.

Abagabo babiri bahetse ibikapu bahagaze munsi y'umutaka uriho ibirango by'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN, aho hakorera umu agent w'iki kigo atanga serivisi zitandukanye zitangwa n'iki kigo, harimo nko kugura amayinite, kugurisha interinete, kohereza amafaranga ndetse n'izindi, bidasabye ko umuntu agera aho ikigo gikorera ahubwo akazihabwa ku mu agent umwegereye hirya no hino mu gihugu.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, cyatanzwe na sosiyete itanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda ya Emutiyene, kigaragaza nimero iranga umucuruzi yishyurirwaho igihe atangaze serivisi runaka. Iyi ikaba ari imwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo, aho yoroheje abacuruzi ndetse n'abaguzi kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga, nka bumwe mu buryo bwizewe kandi bugezweho muri iki gihe.

Urubuga rukorerwaho ubucuruzi kuri murandasi rwa Rwanda Mati, aho abacuruzi bashyira ibicuruzwa bitandukanye, hanyuma abakiriya bagasura urubuga bagira ibyo bashima bakabyishyura, hanyuma bakabyohererezwa kuri aderesi batanze, badakoze urugendo bajya kubishaka hirya no hino ku masoko.

Urubuga rwo kuri murandasi rwa Uzuri ahacuruzwa ibicuruzwa bitandukanye, aho ba nyiri urubuga bashyira ibicuruzwa kuri uru rubuga ndetse n'igiciro cyabyo hanyuma abakiriya bagasura uru rubuga, bagira ibyo bashima bakabyishyura hanyuma bakabyoherezwa kuri aderesi batanze badakoze urugendo.

Urubuga rwo kuri murandasi rukorerwaho ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, ruzwi nko mu rukari Market Smart. Aha haba hari ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'igiyiciro cyabyo, hanyuma umukiriya agasura urubuga yagira ibyo ashima akishyura, hanyuma akabyoherezwa kuri aderesi yatanze adakoze urugendo ajya ku isoko.

Umukozi wa sosiyete ya Rushfoods atwaye ikinyabiziga kiriho igisanduku kiriho ibirango by'iyi sosiyete, aho iyi sosiye itanga serivisi zo kohereza ibicuruzwa hirya no hino mu gihugu ku bakiriya babiguze bifashishije urubuga rwo kuri murandasi rw'iki kigo cya Rashfoods.

Urubuga rwo kuri murandasi rucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye, aho ba nyir'urubuga bajyaho bagashyiraho ibicuruzwa bafite mu bubiko ndetse n'agaciro kabyo, hanyuma abakiriya na bo bagasura urubuga bagira ibyo bashima bakishyura hanyuma bakabyoherererezwa kuri aderesi batanze badakoze urugendo bajya kubishaka hirya no hino mu masoko.

Urubuga rwo kuri murandasi rwa ari egisipuresi rukorerwaho ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye cyane cyane hibandwa ku bikoresho by'ubwiza bw'abadamu, aho haba hari ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'igiciro cya byo hanyuma abakiriya bagasura urubuga, bagira ibyo bashima bakabyishyura hanyuma bakabyishyura kuri aderesi batanze badakoze urugendo bajya mu masoko kubishaka.

Urubuga rukorerwaho ubucuruzi rukorera kuri murandasi ahaba hari ibicuruzwa bitandukanye. Umukiriya ajya kuri uru rubuga akareba ibicuruzwa bihari, yagira ibyo ashima akishyura hanyuma abakorana n'uru rubuga bakabimugemurira babimusangisha aho ari adakoze urugendo na ruto ajya kubishaka ku masoko.

Imodoka nyinshi cyane ziparitswe mu mwanya wabugenewe zifite ibara ry'umweru n'umukara, aho zifite ibisanduku bifite ibara ry'umweru ritatseho ibirango bitandukanye by'ira ry'umuhondo rya kompanyi ikorera kuri murandasi ya Twiga, aho ikora ubucuruzi butandukanye ndetse igemura hirya no hino mu gihugu ibicuruzwa byakozwe n'abakiriya.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi, kiriho ifoto y'umugore, ufite imisatsi myinshi wambaye amadarubindi areba muri terefone, cyamamaza urubuga rwo kuri murandasi, rwifashishwa mu gukora serivisi zitandukanye z'imari, nko kwishyura ibicuruzwa, kohereza amafaranga ndetse n'izindi.

Urubuga rwo kuri murandasi rukorerwaho ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye, yaba ibiribwa, ibikoresho, ibinyabiziga ndetse n'ibindi, aho umukiriya ajya kuri uru rubuga akareba ibicuruzwa, yagira ibyo ashima akabyishyura, hanyuma akabyoherezwa kuri aderesi yatanze, adakoze urugendo ajya kubishaka hirya no hino mu masoko.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu yo guturamo iri mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, aho iyi nzu ifite ibikoresho by'ibanze ndetse ikaba ifite n'amarangi meza iyi nzu ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda ku muntu uyishaka.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane irimo ibikoresho by'ibanze nk'igitanda, matera, amashuka, amarido, intebe ndetse n'ibindi. Iyi nzu ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali, Kabeza, aho ikodeshwa amadolari magana atanu na mirongo itanu gusa ku kwezi, ku muntu ushaka kuyibamo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane yo guturamo, ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, irimo n'amakaro, iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali aho igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu gusa z'amafaranga y'u Rwanda aho kandi yagereye ibikorwa byose by'ibanze remezo nk'imihanda, amazi, amashuri n'ibindi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ndende cyane ifite amagorofa menshi iherereye mu mujyi wa Kigali. Iyi nzu ikaba ifite igipangu cy'umukara aho igerwaho n'ibikorwa byose remezo umuntu akenera nk'umuhanda, amazi, amashanyarazi, n'ibindi. Iyi nzu ikodeshwa amadolari igihumbi n'ijana ku kwezi ku muntu ushaka kuyibamo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ikodeshwa iherereye mu Mujyi wa Kigali ahazwi nka Kacyiru, aho irimo ibikoresho byose by'ibanze ndetse n'igikoni cya kijyambere, ifite icyumba kimwe cyo kuraramo ndetse n'icyumba kimwe cy'ubwogero, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri gusa ku kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane isize amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, ifite inzugi z'icyatsi, iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka i Kanombe, ifite ibyumba bitatu byo kuraramo, ubwogero bubiri, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu gusa ku kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane ifite igisenge cy'umutuku, isize amarangi y'umweru, umukara ndetse n' umutuku. Inzuka ikaba ifite indabo nziza cyane ziteye mu bibumbano, ndetse n'umwanya wo guparikamo. Ikaba iherereye Kigali mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kimironko aho ikodeshwa.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane, ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, irimo kandi ibikoresho byose by'ibanze nkenerwa nka tereviziyo, intebe, ameza, utubati n'ibindi. Iyi nzu ikaba iherereye Kimironko mu mujyi wa Kigali, aho ikodeshwa ibihumbi magana atatu gusa by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inyubako zigezweho za kijyambere zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, aho usanga buri nyubako cyangwa se buri ruhande rufite icyagenewe gukorerwamo, aha ni ahanacuruzwa ibikoresho by'ikoranabuhanga cyane cyane radiyo, televiziyo, amatelefone, amatara agezweho n'ibindi.

Iguriro rigezweho rya kijyambere, aho ibicuruzwa bitondetse ku murongo, hagendewe ku bwoko bwabyo ndetse binagaragaza ibiciro. ibib bikorohereza abakiliriya ndetse n'abandi bashaka, kumenya aho bashakira ibyo bakeneye, bitabagoye ndetse n'agaciro k'ibyo bifuza.

Inyubako nini zagenewe gukorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, aho usanga buri ruhande rwaragenewe gukorerwamo ubucuruzi runaka. Ibi bigafasha abasaba serivise muri aya mayubakwa ndetse n'abazitanga koroshya ndetse no kunoza serivisi batanga.

Inyubako yagenewe gukorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye aho usanga buri ruhande rufite ibikorwa runaka rwagenewe hari uruhande rwagenewe gucuruzamo ibiribwa, urwagenewe imyambaro n'ibindi gutyo gutyo ibi bikaba bikorwa mu buryo bwo kororeza abakiriya ndetse n'abandi bashaka serivisi muri iyi nyubako kumenya aho bashakira ibyo bakeneye bitabagoye ndetse no koroshya imitangire myiza ya serivisi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye igaragaramo umu mama wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umutuku hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi byibanda cyane ku by'ubugeni harimo nk'ibibumbano, imitako yo kumanika mu nzu, uduseke, ibikapu ndetse n'ibindi.

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho ibicuruzwa biba bitondetse mu tubati hagendewe ku bwoko bwabyo, hari umwanya wagenewe gushyirwamo ibinyobwa, uwagenewe ibiribwa n'ibindi gutyo gutyo, ibi bikorohereza abaguzi, kumenya aho bashakira ibyo bakeneye ndetse bikananoza imitangire myiza ya serivisi muri aya maguriro.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ndende ya etaje ifite amagorofa atatu, ndetse ikaba isize irangi ry'umweru ndetse n'ikijuju, yubakishijwe kandi ibirahuri byijimye. Iyi nzu ikaba ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye nk'uko bigaragazwa n'ibyapa bimanitse ku miryango y'inyubako, imbere kandi hari umwanya wagenewe guparikamo ibinyabiziga ku baje gushaka serivisi zitandukanye muri iyi nyubako.

Inyubako nini cyane zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, aho usanga buri ruhande rufite ibicuruzwa runaka byagenewe. Aha ni ku ruhande rwagewe gucururizwamo imyambaro ndetse n'ibikoresho cyane cyane hibandwa ku muco gakondo .Aho hagaragara ibikoresho byo muco gakondo nk'uduseke, ibyibo ,imitako n'ibindi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi cyane cyane imyambaro y'abadamu, bagaragaramo amajipo, amakanzu ndetse n'indi myenda y'abagore, hagaragara umugore uri kureba imyenda aho avugana n'umucuruzi baganira bareba igiciro nyacyo bahurizaho.

Icyapa gifite ibara ry'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, kiririho kandi ifoto y'umumama wicaye, cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB, aho cyamenyekanishaga serivisi nshya cyazanye ya Ejo heza, aho gishishikariza abaturage kwizigamira mu gihe bagifite imbaraga zo gukora binyuze muri iki kigo, hanyuma kikazabagoboka mu gihe bari mu zabukuru, batagishoboye gukora.

Inyubako ndende ifite amagorofa menshi, yubakishije ibirahuri ndetse isize ibara ry'umuhondo, hasi kuri iyi nyubako hateguye indabo nyinshi cyane zigaragaza ubusitani buzengurutse iyi nyubako, hari kandi n'umwanya wagenewe guparikwamo ibibinyabiziga, yaba iby'abakozi cyangwa se abaje gushaka serivisi zitandukanye muri iyi nyubako.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi harimo nko kwisuzumisha ndetse no guhabwa imiti aho abarwayi baba baje gusaba serivise zitandukanye, hari abakozi babugenewe bambaye impuzankano ibaranga igizwe n'itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki, barimo kwakira abakiriya ku murongo hagendewe uko baje hirindwa ko habamo ikimenyane ndetse no gutonesha.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi harimo nko guzuma guhabwa imiti gutanga ibizamini by'ubuzima n'izindi zitandukanye hagaragara urujya n'uruza rw'abaturage baje gushaka serivisi z'ubuvuzi cyane cyane abafite abana batonze umurongo barimo kwakirwa bahabwa serivisi umwe kuri umwe hagendewe ku gihe baje gushaka serivisi.

Umuturage ufashe ikarita y'ubwisungane mu kwivuza yatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB, nyuma y'uko uyu muturage yishyuye umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza. Iyi ni serivisi yazanwe n'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, aho abanyarwanda hirya no hino mu gihugu bishyura umusanzu wabo ugashyirwa muri iki kigo, hanyuma ukazabagoboka mu gihe bakeneye serivisi z'ubuvuzi zitandukanye bakishyura amafaranga macye, andi akishyurwa n'iki kigo hagendewe ku bwizigame bwabo.

Ikirangantego cya mituelle de sante, aho kigaragaramo uruziga rurimo abaturage bakikije umuntu uryamye ku gitanda kwa muganga, cyanditsemo amagambo mu ibara ry'icyatsi n'umukara, harimo kandi n'utumenyetso tw'agasaraba, bigaragaza ko ari ubuzima.

Ibyuma byagenewe gukonjeshwa bisangwa hirya no hino mu maguriro acuruza ibiribwa ndetse n'ibyokurya hagaragaramo imitobe yo mu bwoko bwa fanta imitobe yo mu bwoko bw'imbuto zitandukanye amazi ndetse n'ibindi bitandukanye bikaba bimwe muri serivisi zitangwa mu nzu zicururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa hirya no hino mu gihugu.

Iguriro rigezweho rya kijyambere ahagaragara ibicuruzwa bitondetse mu tubati dutandukanye hagendewe ku bwoko bwabyo, hari ahagenewe ibikoresho by'isuku, ahagenewe ibiribwa n'ibindi, gutyo gutyo. Ibi bikorohereza abakiriya kumenya aho bashakira ibyo bakeneye ndetse bikanoza n'imitangire myiza ya serivise muri aya maguriro.

Ibinyobwa bidasembuye biri mu cyuma cyagenewe gukonjeshwa gisangwa hirya no hino mu mazu acurizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye ibinyobwa biri muri iki cyumba cyanewe gukonjesha harimo amata, fanta, amazi, ya worute ndetse n'ibindi bitandukanye ibi byose bikaba ari mu rwego rwa serivisi nziza abakiriya bagana ibi bigo.

Rimwe mu maguriro agezweho ya kijyambere, aho ibicuruzwa bitandukanye, biba bitondetse mu tubati twabugenewe, hakurikijwe ubwoko bwabyo, ibi bikorohereza abacuruzi ndetse n'abaguzi gutanga serivisi nziza, babona ibyo bakeneye bitabagoye kandi bafashwa mu kwishyura, hakoreshejwe uburyo butandukanye.

Iguriro rigezweho rya kijyambere hacuruzwa ibicuruzwa bitandukanye yaba ibiribwa ibikoresho byo mu nzu ibikoresho by'isuku ndetse n'ibindi, hagaragara umugabo wambaye imyenda y'ubururu ufite icyo kunywa mu ntoki, iruhande rwe hari umukozi wo muririguriro aho arimo kumufasha kugenda afata ibicuruzwa hirya no hino nk'i imwe muri serivisi zitangwa n'abakozi bo muri aya maguriro.

Rimwe mu maguriro agezweho ya kijyambere aho ibicuruzwa bitondetse ku murongo mu tubati twabugenewe, hagendewe ku bwoko bwabyo. Ibi bikorohereza abakiriya kumenya aho bashakira ibyo bakeneye ndetse bikanafasha abakora muri iri guriro gutanga serivisi nziza ku bakiriya babo. Bagafashwa kandi no kwishyura bakoresheje uburyo butandukanye ibi bikorohereza abashaka serivisi muri aya maguriro.